Ubuvuzi bwo mu Rwanda bwateye imbere, aho haje imodoka z'imbangukiragutabara, zivana abarwayi ku bitaro bitoya zibajyana ku bitaro bikuru, kugira ngo bahabwe ubutabazi bataritaba Imana, maze bagakira bagasubira mu buzima busanzwe.

Ubucuruzi ni bwiza cyane nko gucuruza imiti muri farumasi aho abayikeneye baza kuyigura maze bakivuza indwara baba barwaye bagakira bagasubira mu buzima busanzwe.

Mu muco wacu gakondo, abantu bamwe bakunda kwifashisha ibyatsi bivuza indwara zigiye zitandukanye, bimwe bakabitera ari nk'imitako kugira ngo ahantu batuye hagaragare neza harimbishijwe izo ndabo.

Mu muco gakondo abaturage bakundaga gukoresha imiti igiye itandukanye, aho bifashishaga nk'inyinya bivura indwara zitandukanye, zimwe bakazihekenya izindi bakaziteka mu biryo, ndetse n'amababi yazo bakayahekenya igihe bari kumva batamerewe neza, maze bagakira bagasubira mu buzima busanzwe.

Mu muco nyarwanda dusangamo ibyatsi bigiye bitandukanye，aho abaturage babyifashishaga， bakora imiti igiye itandukanye， bari kwivuza maze bakarushaho kubaho neza，bafite ubuzima buzira indwara.

Mu muco gakondo abaturage bifashishaga ibyatsi bigiye bitandukanye, aho babyifashisha bari kwivura indwara kugira ngo bakire bitabasabye gukoresha imiti ya kizungu.

Ni byiza ko tugira ahantu heza umuntu yatemberera, nk'ahantu hateye ibiti hari n'indabyo haba hari akayaga keza ndetse n'impumuro nziza, kubera ko haba hari amahumbezi akomoka mu bimera biba bihateye, akaba ariyo mpamvu tuba tugomba kubibungabunga kugira ngo ahantu hahorane umuhehero, kandi habe hahumura neza.

Mu muco gakondo ,abantu bakunda gukoresha imiti itandukanye bivu indwara nyinshi ,nko gukoresha umuravumba ,aho bawukaragaga cyangwa bakawuhekenya bivura indwara zitandukanye ,maze bagakira vuba cyane.

Imiti gakondo dusangamo nk'indondori, aho zifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, maze abagize uburwayi runaka bakazifashisha, bivura bagakira vuba bagasubira mu buzima busanzwe, kandi n'amatungo arazirya akamererwa neza.

Guhinga ni ingirakamaro, nko guhinga ibireti ,aho iyo byeze bizana indabo basoroma bakazijyana mu nganda, aho zifashishwa mu gukora imiti yica udukoko batera mu myaka.